Iguriro rigurirwamo imiti itandukanye ahanini aba ari amaguriro yubakwa ahantu h'imigi kuko abantu bo mu mugi aribo bajijutse cyane ugereyeje n'abo mu byaro, akaba aba arimo imiti itandukanye ivura indwara nyinshi cyane.

Umuganga uri gusuzuma umugwayi akoresheje icuma c'ikoranabuhanga cabugenewe. Kikaba ari icuma ari gutunga mu maso g'umugwayi, kugira ngo abashe kumenya ingwara umugwayi agwaye. Bikaba byifashishwaga mu bitaro bikuru ndetse n'ibindi bitaro biteye imbere.

Sitoke y'imiti iba ibitswe ahantu mu tubati, cyane cyane nko mu bitaro, cyangwa mu mafarumasi atandukanye, hirya no hino mu Gihugu. By'umwihariko, aya mafarumasi akaba asangwa ahantu h'imigi, kuko ariho haba hari ubuvuzi buteye imbere, ndetse n'abandi benshi basobanukiwe ibijyanye n'imiti bakabasha kuhagurira iyo miti.

Ahantu bacuruzaga ubwoko bw'imiti bwinshi cyane butandukanye, aho mu cyongereza bakunda kuhita muri farumasi.

Ububiko bubikwamo imiti nko mu bitaro cyangwa mu mavuriro ya purive cyangwa ahantu hazwi nka kirinike, akaba ari ahantu umuntu ajya kugura imiti akivura ku giti cye.

Ubusitani bwiza cane buteye amabengeza akaba ari ahantu abantu bajaga bagiye kuruhukira. Abenshi babyita gufata akayaga nk'igihe umuntu afite siterese akaba yahaja akicara akaruhuka bico akumva atuje nta siterese.